Ahantu hatangirwa serivisi ku baturage bose ndetse bazikeneye. Aba bantu batanga amayinite ya Airtel ndetse iruhande rw'uyu muntu hari inzu. Inzu yubakishije amategura ndetse n'iruhande rwe hari moto arimo atanga itangazo ry'uko atanga serivisi zihuriweho n'abantu benshi ariyo...

Ni abagabo babiri bicaye bose bambaye amasaha umugabo umwe arirabura undi asa inzobe, uwusa inzobe afite telefone kandi yambaye ikarita y'umuhondo, afite n'ikote risa umuhondo barimo barareba muri telefone bose bari kureba mu cyerekezo kimwe.

Abagabo bahagaze mu mutaka wa Emutiyene bambaye amajiri n'ibirangantego bya Emutiyene, ndetse iruhande rw'aba bantu hari imodoka nyinshi zihaparitse, hari n'umurima w'indabyo, ndetse hari n'umuhanda.

Umuntu yicaye mu kazu ka MTN gafunguye aricaye ari kwandika imbere ye hari ikayi, ako gashushanyijeho telefone, iruhande rwayo hubatse andi mazu ndetse hari n'icyuma gihagaze.

Abantu babiri bahagaze ndetse bafashe icyapa, aba bantu babiri bambaye udupfukamunwa, bahagaze imbere ndetse inyuma yabo hari intebe.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'abantu, aba bagabo babiri bafite icyemezo cy'ishimwe mu karere ka Nyagatare, aba bagabo babiri inyuma yabo hicaye abantu ndetse ahantu bicaye hari ibitambaro bigiye bimanitse ku bikuta by'umutako.

Ni abagabo bahagaze hejuru y'icyobo ahantu mu ishyamba hari n'umumama umwe, aba bagabo bahagaze ahantu hari ibyatsi ndetse n'ibiti byinshi birebire, bahagaze hejuru y'icyobo.

Abantu batatu bari kugenda mu muhanda w'igitaka kandi bose batwaye ibyansi by'amata, babiri batwaye moto, ni zo batwayeho ibyansi byinshi by'amata, undi umwe atwaye igare, ari kugenda arisunika atwaye icyatsi kimwe cyamata.

Ni abantu benshi bari gukora ibikorwa bitandukanye, bamwe bari ku igare, ni batatu bambaye n'ibisa, babiri bambaye ingofero, undi nayo yambaye, abandi bari kujya kugura amanite, abandi bifashe uko bashaka.

Ni amacupa menshi y'ubwoko butandukanye bw'inzoga ateretse hamwe, n'amacupa afite imifuniko itandukanye hagiye harimo amacupa asa ariko hagiye harimo n'andi macupa atandukanye.

Umusore uhagaze mu iduka ry'ubucuruzi, harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, harimo ibicuruzwa by'ibirungo by'amoko atandukanye, harimo n'amajyane, uyu muntu ahantu ahagaze hari na terefoni iruhande rwe.

Inzu irimo imyenda y'ubucuruzi, ni immyenda y'amakanzu maremare, amashati ndetse n'amapantaro, iyi myenda iri mun nzu ifite amakaro, iyi myenda imwe muri yo yambitse ibipupe, iyindi yaamashati iramanitse hejuru.

Intebe imwe iri ahantu mu cyumba iri imbere y'umuryango, iyi ntebe ikoze mu mbaho z'ibiti zifite ibara ry'umutuku, iyi ntebe iri imbere y'urugi rufite ibara ry'ubururu, iri mu cyumba hateye irangi ry'umweru.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye iyi nzu, irimo abantu babiri ndetse, iyi nzu irimo amavuta, yo kwisiga n'ayo kurya ibirungo byo guteka iyi nzu, irimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye by'ubwoko, butandukanye.

Abantu benshi bari ahantu hamwe bahagaze, aba bantu harimo: abamama, abagabo n'abana ndetse n'urubyiruko imbere yabo hari umuntu umwe upfukamye, imbere ye aho apfukamye hari intebe ndetse hari n'ameza.

Iri ni itorero riri gutanga inkunga yaryo ndetse aba bantu bagize iri torero barahagaze bambaye amataburiya maremare asa umweru ndetse harimo n'abambaye imikara, harimo n'abambaye indi myenda, bari gutanga inkunga zabo zivuye mu itorero ryabo.

Iyi ni inyubako itanga amacumbi ndetse abantu bashaka kujyayo barahita barara baza kurara ndetse abandi bafata amacumbi bakarara yo, iyi nzu ni cyo ibereyeho ni ugutanga amacumbi, iruhande rwayo hari imodoka.

Inzu irimo igitanda cyo kuryamaho n'uburiri, iyi nzu ifite akabati ndetse iki gitanda kiriho imisego, iyi nzu ifite intebe, ifite amadirishya, ifite n'intebe ziriho n'ameza yo kuriraho, iyi nzu irapavomye hasi, ifite sima.

Izi ni inzu z'amacumbi abantu bashobora gusohokeramo bagatanga amafaranga bakaharara. Izi nzu, zifashishwa mu gucumbikira abantu ndetse harimo intebe, harimo ibyo kurya, harimo n'aho kurara.

Icyumba cy'uburiri gishashe, ubu buriri bufite imisego ibiri, ubu buriri burashashe haruguru yabwo hari akabati, aka kabati karimo imyenda ndetse iki cyumba gifite amadirishya, aya madirishya ariho amashuka.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe kandi ku ntebe, imbere yabo hari ibitabo birambitse ku meza, aba bantu bari munzu ifite ibirahuri birebire, bicaye bareba hanze ahantu hari ibiti n'imodoka.

Ni ameza ateguye ahantu cyumba aya meza ari kumwe n'intebe zayo ndetse izi ntebe zose zirimo zirasa n'aya meza yose arimo arasa icyo bitandukaniyeho n'imibare iri kuri aya meza rimwe kabiri gatatu nibyo bitandukanya aya ameza ariko uburyo ateguyemo ibitambaro n'intebe zabyo byose birasa.

Inyubako nyinshi zubatse mu gice kimwe, hari inyubako yubatse ku muhanda, ifite n'indi nyubako hejuru yayo, hasi kuri uyu muhanda, iyi nyubako ihari indabyo ndetse hari n'imodoka iri kuhatambuka.

Icyumba cy'uburiri gishashe gifite imisego ibiri gifite akabati kamwe kariho itara ndetse hari n'impapuro, gifite akandi kabati kariho televiziyo harimo na purizi ifata umuriro w'amashanyarazi.

Iri ni isoko abantu bahuriramo bagiye guhaha abandi bagiye kugurisha, harimo abagore, harimo abagabo ndetse bafite n'abana bari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo intoryi, harimo imboga, harimo karoti n'ibindi bicuruzwa byinshi biboneka ku isoko.

Abantu bari mu isoko bacuruza ibintu bitandukanye, abagore bicaye hamwe bategereje ndetse hari n'abandi bantu bari kugenda inyuma yabo, iruhande rw'ikintu gisa icyatsi kibisi.

Ahantu hanini hamanitse ibitenge byinshi by'ubwoko bitandukanye by'amabara atandukanye hicayemo umuntu ndetse yambaye ipantaro y'ubururu harimo n'akayira kanyura muri ibyo bitenge ni byinshi kandi ni byinshi cyane.

Isoko ririmo abacuruzi bari gucuruza imbuto zitandukanye, bari gucuruzamo inyanya, bari gucuruzamo imineke, amavoka ndetse izi mbuto ni iz'ubwoko butandukanye, bari gucururiza ahantu hubakiye, hejuru hariho imifuka, ibyo bari gucuruza biri hejuru y'imifuka.

Ibitunguru byinshi by'ubwoko bumwe bw'ubunyarwanda ibi bitunguru bifite ibara rimwe birunze ahantu hamwe kuri hema iyi hema irambuye hasi uruhande rumwe biratwikiriye ahandi biragaragara.

Igare riri mu muhanda wa kaburimbo ritwawe n'umugabo wambaye ingofero n'umupira w'umuhondo iri gare aritwayeho amabati arimo aragenda muri kaburimbo hakurya yayo hari umuntu ukorera mtn ucuruza amayinite hari n'imodoka y'ubururu y'umutuku kandi hari n'abantu ndetse n'umuma uhetse umwana hanyura abantu kuko ni ku kumuhanda hanubatse amazu menshi.

Ni umuntu utwaye igare ntabwo aririho, ari kugenda arisunika ahetse igikapu, ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hakurya ye hari abantu barimo bambuka hari n'ibiti n'inzu nini ndetse hari n'ibyatsi.